Aha ni mu nama y'abaturage ndetse n'abayobozi babo. Aho abayobozi bakuru baba bari kuganira n'abashinzwe abaturage cyangwa se abavugizi b'abaturage kugira ngo babashe kuba babagezaho ibibazo bitandukanye cyangwa se ibyo abaturage bakeneye.

Aha ni mu nama y'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda aho baba barimo bariga ndetse bakareba, bakanatekereza icyateza umuturage imbere cyangwa se icyateza igihugu cy'u Rwanda imbere, gusa byose baba barebera inyungu za rubanda cyangwa se abaturage bayoboye.

Aha ni mu nama y'abayobozi bagiye batandukanye, aho uyu muyobozi aba yagiye atumaho abaturage kugira ngo barebe icyateza imbere kurwanya ndetse n'icyatuma u Rwanda ruhungabanywa n'umutekano warwo, bakarwanya imirire mibi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni muri sena nyarwanda cyangwa se ahazwi nka senide, aha gaha turi kubona ni abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda aho baba baje kwiga cyangwa se baje kureba icyateza imbere abaturage, icyateza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse bakareba n'ibibazo bibangamiye igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babashe kuba babikemura.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu runaka abantu bari mu nama mu cyumba cyabereyemo inama, harimo umwe wicaranye amazi y'agacupa k'inyange, abandi bari muri za mudasobwa bareba.

Aha ni mu inteko y'abaturage, aho baba baje kureba uko bateza imbere umudugudu wabo cyangwa se igihugu cyabo, aha ngaha ntange urugero, ni umuyobozi uba ukuriye abaturage, aho aba ari kugenda ababwira amabwiriza cyangwa se bareba ibyo bageraho.

Aba ni abayobozi b'igihugu bashinzwe b'ikigo Rura, bakaba bashinzwe ibinyabiziga mu muhanda uko bigenda, ndetse n'ingendo z'ibintu ndetse n'ingendo z'abantu, bakaba bari kwiga uburyo ki umutekano wakomeza gukazwa, ndetse n'uburyo ki bakomeza kubungabunga umutekano w'inyabiziga n'abantu, ndetse n'ibintu byabo.

Aba ni abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, aho bari bitabiriye umuganda, noneho nyuma y'umuganda basoje umuganda bahita bajya mu nama kumva ibyo abayobozi babo baba bari kubabwira. Aha hafatirwamo ibyemezo bigiye bitandukanye ndetse hakaba harebwa n'ibindi bikorwa byabasha gukorwa muri ako kagari.

Iyi ni inama yiga ku buryo u Rwanda rwatera imbere ndetse n'abayobozi babo, aba ni abanyamahanga abazwi nk'abazungu, aho baba baje kureba uburyo ki se twakorana imikoranire na bo.

Iyi ni inama y'umujyi wa Kigali, aho iri kwiga ikanareba uburyo igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Kigali kizaba kimeze mu hazaza h'u Rwanda. Imwe nko mu ntego twihaye yo muri bibiri na mirongo itanu, kuzaba hari aho tugeze mu gihugu cy'u Rwanda.

Aha ni mu nama y'abayobozi bakuru b'igihugu aho baba biga ku bintu bigiye bitandukanye, nk'urugero aha ni mu murenge cyangwa se ni muri sena aho baba biga ku cyateza umuturage w'u Rwanda imbere ndetse bakareba n'icyamuhungabanya, bakaba babasha kuba babikemura bakanabikumira.

Uyu ni umufashayoboro w'itumanaho mu Rwanda ndetse ukaba ugenda ukwirakwiza itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse no muri aka gace. Aha ngaha hakaba haba harimo umuriro mwinshi cyane aho kuhegera biba bitemewe udafite ibikoresho by'ubutabazi.

Aha ni mu mujyi wa Kigali aho turi kubona imbere yacu urubyiruko rutandukanye ruba rwaje aha ngaha ikigaragara cyo ni ahantu haba hari itumanaho ku buntu cyangwa se ibizwi nka interineti y'ubuntu.

Iki ni icyumba k'ikoranabuhanga aho abanyeshuri bajya kugira bamenye ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'iterambere na tekinoloji, aha ni mu kigo cy'amashuri aho abana bari bari kwiga ku bintu bya tekinoloji na murandasi.

Ubu ni uburyo umuntu ashobora kwiyandikisha kugira akore ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, aho aba asabwa ibintu birimo indangamuntu, imyaka, telefone cyangwa adiresi ya imeri, kugira ngo bakire imenyesha rye.

Iki ni icyapa cy'ahantu haba hari uburiro, aho ushobora kujya ukaba wabasha gukoresha ikoranabuhanga ryabo ikizwi nka interineti ku buntu, ndetse ukaba wabasha no kubona ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa.

Aha ngaha ni ahazwi nko mu mujyi wa Kigali, iki ngiki akaba ari igikoresho kidufasha kuba itumanaho mu Rwanda ryakomeza kugenda neza, nta kintu kigiye kibamo ikibazo, ibi ngibi ni bizwi nk'umunara, ni umunara udufasha kuba twatumikanaho neza.

Aha ni mu Gihugu cy'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, aho aha ngaha ari ahantu amashanyarazi cyangwa se umuriro ugenda unyuranyuranamo mu gihe ushyikirizwa mu baturage, mu bikorwa bya leta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubu ni uburyo imiturire yo mu mujyi wa Kigali ihagaze, gusa imiturire ntago yemewe n'amategeko kuko aha ngaha babarwa nk'abatuye mu manegeka, aha turahabona ipoto ndetse n'ibiti bitameze neza kuko insinga zigenda zinyuranyuranamo, ibi ntago biba bimeze neza mu mujyi wa Kigali biba biri kwigwaho bizavugururwa.

Iri ni mu iduka ryo mu mujyi wa Kigali ahagurishirizwa ibikoresho bigiye bitandukanye nk'urugero amamatera, imyenda, yaba iyo kwambara cyangwa se imyenda y'intebe n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha ushobora kuba ndetse wanahagana mu gihe ushaka kuba wagura ibintu byo mu nzu bigiye bitandukanye.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, mu muhanda ugana ahazwi nka Nyabugogo, aho ushobora kujya mu gihe uri gushaka gutega imodoka ijya mu ntara zitandukanye zo mu Rwanda, ndetse aha ngaha tukaba tubona umutekano ni wose mu muhanda, uyu musozi turi kureba imbere yacu bawita Jali.

Aha ni kwa muganga aho abaturage baba bategereje ibintu bigiye bitandukanye, ababa baje kwivuza, ababa baherekeje abarwayi cyangwa se ababa baje gufasha abaganga ndetse n'ababa baje kureba uko bafasha abantu badafite ababageraho kwa muganga.

Aha ni ku kigo nderabuzima cyo mu Mujyi wa Kigali, aho abarwayi bajya mu gihe barembye cyangwa bumva batamerewe neza, tukaba turi no kubona ikinyabiziga mu gihe bibaye ngombwa ko umurwayi bamwimura, iki ngiki ni cyo kibasha kumugeza ku bindi bitaro cyangwa se kikaba cyabasha kumuzana ku kigo nderabuzima.

Aha ni mu gihugu cy'u Rwanda, aha ngaha tureba akaba ari mu kigo cy'amashuri, aho ushobora kuba wajya bakaba baguha uburere ndetse n'ubumenyi, ndetse aha bakaba baragiye bubakira abanyeshuri babo utuntu tugenda tubarinda izuba n'imvura.

Aha ni ku bitaro bikuru byo mu gihugu cy'u Rwanda biherereye mu mujyi wa Kigali, iz ni imbangukiragutabara zifasha idembe ziba zagiye zigwa ahantu hatandukanye mu gihugu ndetse hirya yaho hari n'imodoka ziba zaje gufasha abaganga mu kuvura.

Ibi ni bimwe mu bikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda, aho ushobora kuba wagana mu gihe ushaka ubumenyi bugiye butandukanye, nk'urugero aha tubona ni mu kigo cy'ishuri giherereye mu mujyi wa Kigali, turimo kubonamo ifoto y'umunyeshuri.

Aha ni mu gihugu cy'u Rwanda, aho ushobora kuba wajya mu gihe ufite uburwayi cyane cyane ushobora kuhagana mu gihe ufite uburwayi bw'amenyo, bakaba babasha kuba bakuvura ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye no kwivuza.

Iyi ngiyi ni imodoka ishinzwe gutwara indembe, izizwi nk'imbangukiragutabara. Ikaba ikorera mu karere ka Nyarugenge, gusa ntabwo biba bivuze ko itakorera n'ahandi mu gihugu. Iyi ngiyi iba igenda ifata abantu bahuye n'ibibazo mu muhanda cyangwa se ikirukankana umurwayi imushyikiriza ku bindi bitaro mu gihe byihutirwa cyane.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'ahabikwa imbagukiragutabara zitabara indembe ziba zigiye zitandukanye, ahantu hose ziba zagiye zihura n'ibibazo, aho zibageza ku bitaro zikitabwaho.

Uyu ni umuyobozi wo mu Rwanda ushinzwe gukemura ndetse no gutunganya ibibazo by'abaturage mu buryo bugiye butandukanye. Akaba aba ashinzwe kumva ibibazo by'abaturage akabikemura na we akabigeza ku bamukuriye, bakaba babasha kuba babikemura.

Aba ni abatura Rwanda cyangwa se ni inyanga Rwanda, aho abangabo basize bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari mu bantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'Igihumbi Magana Cyenda Mirongo Icyenda na Kane mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bari guhigwa n'amategeko.

Aba ni abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse ni abayobozi bagiye batandukanye baba bashinzwe kugeza byinshi ku gihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba baba bashinzwe gukorera abaturage cyangwa se kubakemurira ibibazo byabo.

Aba ni abashinzwe umutekano mu Gihugu cy'u Rwanda abazwi nk'abapolisi, uyu ni umupadiri wari wakoze ibyaha, bijyanye n'ihohotera ry'abana rishingiye ku gitsina, aho yari ajyanywe imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo ahamwe n'ibyaha ashinjwa.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu mujyi, urabona ko ni umuhanda urimo abagenzi bagiye batandukanye ndetse buri wese aba ajya mu bye, gusa twitegereje neza turabona ushinzwe umutekano. Aba ni abazwi nk'abapolisi. Uyu aba ashinzwe umutekano wo mu muhanda, kureba niba abaturage batekanye ndetse no kumenya niba ikinyabiziga cyujuje ibisabwa.

Iri ni ishyaka ryo mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa DALFA Umurinzi, umurinzi w'ibyagezweho, ni iryo mu gihugu cy'u Rwanda, gusa ntabwo rivuga rimwe n'ubutegetsi buriho bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari ishyaka riyobowe n'umurwanashyaka waryo witwa Victoire Atoinette.

Uyu ni umukozi wa leta ukora mu nteko ishinga amategeko ahazwi na Sena, uyu nguyu aba ari nk'umusenateri umudepite se cyangwa se ari umukobwa ari umuyobozi ushinzwe kuvugira no gukorera abaturage.

Aba ni abayobozi bashinzwe kureberera abaturage aho harimo n'umuyobozi mukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, uzwi ku mazina nka Perezida Paul Kagame. Akaba ari umuntu ufatiye runini Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange, kuko uyu mugabo yagejeje byinshi ku Gihugu cy'u Rwanda. Yagikuye habi hashoboka.

Iyi ni ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamariza mu matora yo kuba umukuru w'igihugu, yari aharagaraye imbere y'imbaga nyamwinshi ari kubabwira imigabo n'imigambi y'iwe.

Uyu ni umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, aho turi kubona ko hari n'idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda, uyu aba ashinzwe gukorera abaturage, akageza ibibazo abaturage baba bafite ku bandi bari hejuru ye.

Iri ni ishyaka rikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Aho ryashinzwe ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na rimwe, mu kwezi kwa karindwi, ku itariki cumi n'enye. Rikaba riyoborwa n'umugabo bita Prosperi Higiro. Rikaba rifite ijambo rigenderaho rivuga ngo "ukwishyira ukizana, ubutabera, amajyambere."

Aha ngaha ni aho abagenzi bo mu gihugu cy'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali bajya mu bice bigiye bitandukanye, bafatira amamodoka aho baba bagiye gusura imiryango yabo, nk'izi tubona ni imodoka zo mu bwoko ntoya zitwara abagenzi zigenda zibajyana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda.

Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda, aho ushobora kujya mu muhanda nta kintu wikanga, nk'urugero turi kubona umunyegare cyangwa uzwi nk'umunyonzi ari kugenda mu muhanda nta kibazo afite kubera umutekano aba ari wose.

Iyi n'imodoka imenyereye gutwara ibintu biremereye cyane cyane ibikoresho by'ubwubatsi, nk'amabuye, umucanga cyangwa amatafari, aho na none ishobora kwifashishwa y'imura ibintu bimwe ibivana mu gace kamwe ibijyana mu kandi.

Aha turi kureba ni mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, aho turi kubona mu isagano ry'umuhanda umutekano ni wose, aho tubona abamotari baratekanye, imodoka ziratekanye, bose baba bakurikiza amategeko nk'uko abanyarwanda duhora tubitozwa.

Aha ni mu mujyi wa Kigali. Aho turi kureba umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye. Kimwe kiri kujya ibumoso ikindi kijya iburyo. Aho tubona ikinyabiziga cya mbere ni ikinyamitende ibiri kizwi nka moto, icya kabiri ni ikinyamitende ine kizwi nk'imodoka.

Aha ni mu muhanda mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, iyi ni imodoka cyangwa se ikinyabiziga kibasha kuba cyatwara amavuta yo kwisiga, amavuta agira neza umuntu azwi ku izina rya shayini. Iyi modoka ikaba igenda iyageza ku bacuruzi bagiye batandukanye.

Aha ni mu mujyi wa kigali rwagati aho abantu benshi bita ''down town''. Aho niho abantu bakunda kujya kwicara cyangwa se Abanyamahanga bakaza kwicara bari kuhafatira amafoto.

Aha ni ahakinirirwa cya se ahidagadurirwa imikino ijyanye n'akadenesi cyangwa se ibizwi nka tenisi. Aha ngaha hakaba haherereye i Nyarutarama, aho ushobora kujya ukaba wakina iyi mikino, bakagufasha ndetse no kuba wakwiga uburyo bawukina..

Iki ni icyapa cyerekana cyangwa se kiburira umuyobozi ko aho hantu hari ikata, hari ikoni ahantu ageze bivuze ngo ni mu ikoni aba ashobora kugenda gake kandi muri iryo koni hakaba harimo akandi gahanda karishamikiyeho, kikaba kingana kiri mu ishusho y'umweru n'umuzenguruko w'umutuku no mu kiranga ntego kiri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiyobora ibinyabiziga kikaba kigaragaza ko aha hantu ariho umuhanda urangirira iki cyapa kikaba kiri mu ishusho y'ibara ry'umuhondo ndetse n'ikimenyetso mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umuhanda wo mu mujyi wa Kigali aho imbere yacu turi kubona umunyamaguru uri kugenda, ariko nanone hakaba hari n'icyapa cyereka ibinyabiziga bica muri uwo muhanda umuvuduko ntarengwa kiba gifite kugenderaho ko ari umuvuduko utarenze mirongo itandatu kirometero ku isaha.

Ibi ni ibyapa, ibi byapa bikaba biri mu bwoko biburira aho ubanza bigaragaza ko aho imbere ugiye guca hari akazamuko ugomba kugenda witonze ndetse imbere yaho muri metero ijana, ukaba uri buce ahantu abantu bambukirana kandi hakaba ari n'ikigo cy'amashuri hafi aho.

Iki ni icyapa kigaragaza cyangwa se kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko muri uwo muhanda ari kugenderamo, harimo akandi kayira kiyomeka kuri uwo muhanda arimo, akaba aba asabwa kugenda yitonze, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, umuzenguruko w'umukara ndetse n'ikirangantego mu ibara ry'umukara.

Iki n’icyapa cyereka abantu batwara ibinyabiziga mu muhanda ko aho hantu hari icyago cyo kuba haragenda hazamuka cyangwa se hakaba hari kubakwa ibikorwa bitandukanye, kikaba kiba kibwira cyangwa se kiburira abantu, umuyobozi w'ikinyabiziga, kuba yagenda aho hantu yitonze.

Iki ni icya ndanga, kerekana ko uri kujya ahantu hazwi nko mu murenge wa Giheke, aha hakaba ari umurenge wo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ahangaha ukaba ushobora kuba wajyayo wifashishije ibyapa aho bikwerekeza.

Iki ni icyapa cyerekana abayobozi b'ibinyabiziga aho bashobora kuba bashyira ikinyabiziga cyabo, kikaba cyerekana aho ushobora kuyishyira mu gihe kirekire cg se mu gihe kigufiya. Kikaba gifite umuzenguruko mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikirangantego mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku bitaro by'ahantu hamwe runaka mu gihugu cy'u rwanda, aho ku ruhande rw'aho hagarariye ibinyabiziga mu buryo bwagenwe na leta, nk'uko ibinyabiziga byahagarara nta na kimwe kibangamiye ikindi.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, aha ni ahantu hazwi nko ku kabari cyangwa se akabyiniro aho ushobora kujya mu gihe ushaka ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, gusa bitavuze ko aha ngaha ushobora no kuhagana mu gihe ushaka ibyo kurya.

Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye na leta yo mu Rwanda, aho bashobora kuba bakemurira ibibazo cyanwa se bareba ibibazo bibangamye mu baturage bakabasha kuba babikemura.

Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, iki ni ikiraro cyererekana umuhanda uva mu karere ka Kicukiro cyerekeza mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umuhanda wo mu mujyi wa Kigali aho abantu benshi bazi nka rwandegisi, ni umuhanda uva sonatibe ujya mu mujyi ukata no mu bice by'i Gikondo, aho abantu benshi bamenyereye ko ari ibice bisurwa cyane.

Iyi ni ifoto yafashwe ku muhanda ujya Nyabugogo muri gare, ni ifoto igaragaramo umumotari atwaye umugenzi, hirya ye hari umunyegare utegereje ko yambuka, iyi foto yafatiwe munsi y'ikiraro kiri ahatambika hajya Nyabugogo.

Uyu ni umuhanda uherereye mu Mujyi wa Kigali. Aho werekana inzira ndetse hakaba harimo inzira y'abanyamaguru, ndetse hakaba harimo n'ibyapa byerekana ibizwi nk' ibyapa by'urumuri. Bikaba byereka abanyamaguru uko bagomba kugenda, ndetse n'ibinyabiziga uko bigomba kugenda.

Iyi ni ifoto yafashwe mu gace ka nyarugenge mujyi wa kigali, aho umunyegare cyangwa se umunyonzi yarari kwambuka aciye mu mirongo y'abanyamaguru bambukiramo atwaye igare.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu karere ka Kicukiro, uyu rero ni umuhanda unyura munsi hejuru gato y'ikiraro kigana mu karere ka Bugesera ahazwi nk'i Nyamata kikaba cyarubatswe mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ushyika uwa bibiri na cumi n'icyenda.